Ifumbire iyo fumbire barayizana bakayishyira mu nzu, ukajya kugura ugafumbiza umurima wawe kugira ngo weremo imyaka myiza, maze wamara kugura ugatanga amafaranga akagirira abacuruzi akamaro kenshi.

Ahantu bacururiza ifumbire, urahagera ukagura ifumbire. Wamara kuyigura, ukayijyana mu murima wawe ukayifumbiza. Iyi fumbire yeza imyaka neza, kuko iba ifite intungamubiri zo mu kiribwa zihagije.

Umuhinzi uri mu murima we, uwo muhinzi afite imyaka myiza yaje kuyitambagira, hari imwe iteye ku mirongo y'ibirayi ahandi ari gutwika ibyatsi, kugira ngo abone uko ahahinga hazamuhe umusaruro uhagije.

Indabo zihinze mu murima, izo ndabo ni nziza, zihinze mu murima, bazishyizemo ifumbire ziba neza, ziriho abantu baje kuzisarura, kuko iyo uhinze indabo ukazishyiraho ifumbire zitanga umusaruro.

Umuhinzi uri gutera umuti ibirayi bye, ahetse icyuma gitera umuti, ari gutera umuti, yazindutse kare kare cyane, kuko iyo wateye umuti, imyaka yawe yera neza, nta n'urusimba ruzamo, ibyo birarayi ni byiza bimeze neza, n'uwo murima ni munini, azabona amafaranga ahagije.

Ahantu hari ibiryo byiza bitandukanye, urahagera ukagura ukishyura amafaranga akagirira abacuruza akamaro, kuko ibyo biryo biba bimeze neza binaryoshye. Ni ukugira ngo ugire ubuzima bwiza bwa buri munsi bityo ubeho neza.

Ahantu haba ibiryo bitandukanye, hari amafi bari gucuruza, hari amaronje, hari imboga. Iyo uhageze uragura, wamara kugura ukabirya bikakugirira akamaro kuko biba birimo intungamubiri zihagije.

Amafi meza bari kuyagurisha, kugira ngo babone amafaranga abateze imbere, bityo abayafashe abagirire akamaro, ayagirire n'igihugu cyacu akamaro, kuko iyo bayagurishije babona amafaranga ahagije.

Imboga za kinyarwanda, izo mboga ziri ahantu heza, zimeze neza bazikase, bazishyira ahantu heza kugira ngo bazazigurishe babone amafaranga ahagije abateze imbere muzima bwabo bwa buri munsi.

Amafi yumye baraganitse bayazana mu isoko, kugira ngo bayagurishe babone amafaranga yo kwiteza imbere, abagirire akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo bazabone uko biteza imbere bihagije.

Amafi, ayo mafi ari ahantu afite umutekano bamaze kuyaroba barayazana bayashyira ahabugenewe kugira ngo babone andi yo kongeraho. Amafi ni ikintu cyiza gifite intungamubiri , iyo wayabonye urayagurisha ukabona amafaranga yo kuguteza imbere.

Amafi atanditse bari gucuruza, hariho amaronji, hariho inyanya, ayo mafi iyo uyaguze urayarya wamara kuyarya afite intungamubiri zihagije, n'amaronji na yo afite intungamubiri zihagije, n'inyanya byose bifite intungamubiri....

Ibiryo biri ku isahani hariho n'ikiyiko, ibyo biryo bimeze neza, biteguye neza, biraryoshe, umuntu iyo ari kubirya abiryana ubushake, kuko bimeze neza, biri no ku isahane...

Ahantu hari imigati itandukanye, urayigura ugatanga amafaranga, ukayirya, ikakuryohera, kuko iba ikoze neza, kandi n'abari kuyigurisha bakeneye amafaranga, yo kubateza imbere.

Ahantu bororera amafi. Aho hantu ni mu mazi haba amafi meza. Iyo bahasakaye baragenda bakazana amafi bakayashyira muri iyo nzu, nuko bakagurisha bakabona amafaranga yo kubateza imbere.

Umurima uteyemo ibirayi, ibyo birayi bimeze neza byabonye ifumbire byabonye imvura, iyo wabiteye urabyuhira wamara kubyuhira ukazabigurisha ukabona amafaranga, yo kuguteza imbere kuko nawe uba warabikoreye neza bihagije.

Umurima urimo imyaka imeze neza, iyo myaka barayifumbiye muri uwo murima kugira ngo izere neza bazayigurishe babone amafaranga yo kubateza imbere, kuko na bo baba baravunitse iyo bari kuyihinga.

Umurima urimo ibirayi, uwo murima bashyizemo ifumbire, ibirayi bimeze neza kuko byabonye ifumbire ihagije, iyo byeze barabigurisha bakabona amafaranga yo kubateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umurima uhinzemo imyaka, uwo murima ni mwiza barawufumbiye urimo imyaka imeze neza, iyo bateye imyaka bagashyiraho ifumbire iyo myaka yera neza, bakagurisha bakabona amafaranga ahagije, akabagirira akamaro bityo bigateza igihugu cyacu imbere.

Umurima w'urutoki uteyemo ibitoki， barabigurisha bakabona amafaranga， ibyo bitoki ni byiza， birera cyane， bitanga umusaruro， umuhinzi akiteza imbere， bityo akabona amafaranga，amuteza imbere mu rugo iwe.

Aha ni mu murima bateyemo imyaka, iyo myaka itegereje kwera, niyera bazagurishe babone amafaranga, amafaranga abateze imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko iyo uhinze ubona amafaranga ahagije.

Urutoki ruri mu murima, urwo rutoki rumeze neza ruriho abantu baruhinga, bari gutema ibyatsi, bari kurukorera neza, hariho n'umuhanda unyuramo abagenzi bagiye, urwo rutoki barushyizeho ifumbire ihagije kugira ngo rwere neza.

Umurima baragiramo intama, izo ntama zigeramo zikabona ubwatsi buhagije, izo ntama ziri kurya ubwo bwatsi, kugira ngo zigire ubuzima bwiza, umuntu waziragiyemo azazigurisha abona amafaranga yo kumuteza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umurima urimo imyaka iteye, umuhinzi yaje kuyitambagira, kugira ngo arebe aho igeze, arebe ko igeze igihe cyo gusarura ,asarure azagurishe abone amafaranga ahagije.

Aya mashaza ari mu murima, afite uruyange. Bayateye mu murima mwiza, ayo mashaza afite ifumbire, ategereje kwera ngo bazayagurishe, babone amafaranga ahagije kuko ari mu murima mwiza.

Ibitoki birimo umurima uwo murima uri ahantu heza. Bashyizemo injegwe kugira ngo ibitoki bitazagwa. Ibyo bitoki bifite ifumbire nibyera bazabigurisha babone amafaranga yo kubateza imbere kuko bimeze neza.

Imboga bahinze neza mu murima baziha ifumbire. Izo mboga zirabyibushye, zimeze neza bazihingiye igihe ,zabonye ifumbire ihagije, umuhinzi nazisarura azazigurisha, abone amafaranga yo kwiteza imbere.

Imyumbati imeze neza iyo uhageze ureba iyo myumbati ukavunaho iyo ushaka, uyu muririma barawufumbiye. Ufite ifumbire ihagije ni umurima mwiza, kuko urimo ibihingwa byiza kandi bimeze neza cyane.

Umurima uhinzemo ibisheke, ibyo bisheke babifumbiye neza babishyiraho ifumbire ihagije, bazabigurisha babone amafaranga abateze imbere, kuko babihinze neza, nabo bazabona amafaranga ahagije.

Uyu ni umurima uwo murima uteyemo imyaka. Iyo myaka iri ahantu heza, iri ahantu hegereye igiti kandi iri kuri kaburimbo. Iyo myaka nta muntu ushobora kuyiba kuko iri ahantu heza.

Umurima uhinze neza uteyemo ibinyomoro uteyemo ibisheke uteyemo ibishyimbo, amashu uwo murima urimo imyaka myinshi kandi barawufumbiye ibyo binyomoro bimeze neza ni uruyange bitegereje kwera.

Uyu umurima uteyemo indabyo, izo ndabyo barazigurisha bamara kuzigurisha mafaranga akabateza imbere, kuko ziri mu murima mwiza, kandi uwo murima urimo n'ibiti by'amashanyarazi, uwo murima nta muntu wageramo ngo yibe zino ndabyo.

abantu bari mu murima bari gusarura icyayi icyo cyayi iyo bamaze kugisarura bagishira kuri shitingi bamara kugishyira kuri shitingi bagapakira mu mifuka yabo bakakijyana ku ruganda rwabugenewe kugira ngo babone amafaranga.

Inyanya zimeze neza , izo nyanya zireze bazishyize ahantu heza, kugira ngo abantu bamenye ko uwo murima wari uri mu inyanya zeze, bazaze kuzigura zimeze neza zifite isuku, uwo muntu wazihinze ashaka kuziteza imbere.

Umurima uteyemo ibigori. Ibyo bigori, harimo amateke, harimo ibishyimbo bigufi, kuko iyo ubivanze nta cyo bitwara, bashyizemo ifumbire kugira ngo ibyo bigori n'ayo mateke bizatange umusaruro uhagije.

Amateke barayasaruye, bamaze kuyasarura bayazana mu isokoko. Ayo mateke ni meza, ameze neza, yareze bihagije. Iyo bayagurishije babona amafaranga, akabateza imbere, bityo akabagirira akamaro.

Umurima uteyemo amapera, uwo murima iyo uwugezemo ureba ayo mapera ukabona ni meza, wayateye mu murima mwiza afite isuku, kuko bashyizemo ifumbire ihagije kandi bazayagurisha abagirire akamaro.

Imifuka irimo ibirayi, iyo mifuka bayishyize ku muhanda barayidoda, kugira ngo bazabigurishe babone amafaranga yo kubateza imbere. Iyo mifuka ni myinshi iratondetse ku murongo, iyo bamaze kuyidoda bayipakira imodoka, bityo bagurisha bakabona amafaranga yo kubateza imbere.

Imyumbati iri ku igare barayihinga bakayisarura bakayijyana mu isoko kugira ngo bayigurishe babone amafaranga ahagije yo kubateza imbere, iyo myumbati uyu muntu arayifite ku igare kugira ngo ayigurishe, hariho n'umuntu uri kuyigura kugira ngo ayirye imugirire akamaro.

Uyu ni umuhinzi uri mu murima. Ari guhinga, yiteguye gutunganya umurima we, kugira ngo azatere uzamuviremo umusaruro, kuko iyo umuhinzi ahinze neza, umurima uvamo umusaruro ukera neza.

Umuntu uri mu murima we aje gutambagira ibirayi, asanga bimeze neza kuko yabiteye neza, birimo ifumbire ihagije, abitera n'umuti uhagije, ibyo birayi ni byiza bimeze neza, nabikura akabigurisha azabona amafaranga amuteze imbere.

Isoko ry'ibiribwa harimo: inanasi harimo ,imyembe harimo amaronji, harimo imineke, harimo n'abari kuzigurisha, harimo n'abari kuzigura ,iyo ugeze muri iryo soko ugura imbuto ,ukazirya kuko zirinda indwara.

Imyumbati myiza bayihinze neza barayisaruye, bamaze kuyisarura bayizanye mu isoko kugira ngo bayigurishe babone amafaranga yo kubateza imbere kuko imyumbati ni myiza abantu barazikunda itera imbaraga.

Umurima uhinzemo ibirayi; barabihinze barabyuhira, bashiramo ifumbire, babitera umuti, ibyo birarayi ni byiza, biri mu murima mwiza, iyo byeze barabigurisha bakabona amafaranga yo kubateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuntu uri mu murima. Uwo murima urimo ibigori. Harimo n'ibihaza. Uwo muntu yaje gusarura ibihaza, ibyo bihaza ni byiza ari kubyereka abantu kugira ngo babigure, kuko biryoshye babirye, bibaryohere ibyo bihaza ni byiza byareze neza.

Ibijumba bimeze neza bamaze kubikura barabyoza babizana ahantu kugira ngo babishyire mu mifuka, bazabigurishe babone amafaranga yo kubateza imbere kuko ibijumba biraryoha nibyiza iyo byogeje abantu barabikunda.

Ibijumba byeze neza bimeze neza, barabisaruye bari kubigurisha bari kwereka abakiriya, kuko ibyo bijumba ari byiza bisa neza, kandi ibijumba biraryoha iyo ubiriye bitera imbaraga.

Umuntu uri mu murima we, uwo murima yawuhinzemo inyanya, izo nyanya ari kureba uko zingana, zigeze igihe cyo guterwa umuti. Izo nyanya zimeze neza, ziri mu murima mwiza, uwo muntu yaziteye ahantu heza habugenewe.

Imiteja basaruye mu murima. Iyo miteja iyo uyisusuye ukayitekamo imboga iraryoha. Ukayirisha utuboga, ukayirisha utundi turyo turyoshye. Iyo miteja iraryoha cyane igira intungamubiri zihagije.

Abantu bari mu murima bari guhinga, kugira ngo babone uko batera imyaka, kuko iyo bamanjije bagiran neza umurima wabo, bahingamo imyaka ikamera neza, kuko umurima baba bawugize neza bakuyemo urwiri n'ibyatsi.

Aya matunda barayasaruye ,bamaze kuyasarura bayajyana mu isoko ,kugira ngo bagurishe babonemo amafaranga yo kubateza imbere .Ayo matunda ni meza ari mu murima bategereje kuyagurisha ,babonemo amafaranga ahagije ,abateze imbere.

Inyanya ziri mu murima zirahinze, izo nyanya zimeze neza, barazihinze bashyizeho ifumbire nziiza, izo nyanya bazazigurisha babone amafaranga yo kubateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu bafashe inanasi, izo nanasi barazisarura mu murima wabo, bamara kuzisarura bakazigurisha, bakabona amafaranga yo kubateza imbere, barishimye kuko inanasi zabo zeze neza kandi ari nini.

Abantu basaruye ubunyobwa, barabwanitse kugira ngo bazabugurishe babone amafaranga yo kubateza imbere, bityo abagirire akamaro igihugu cyacu, bityo biteze imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko ubunyobwa ari bwiza cyane.

Ibiti bya avoka . Ibyo biti birimo avoka nyinshi, ni uruyange ibindi biriho avoka bitegereje kwera. Umuhinzi yarazihinze kugira ngo azazigurishe, abone amafaranga yo kumuteza imbere kuko nizera azazisarura agurishe abone amafaranga.

Urusenda bari kugurisha, iyo bamaze kurusarura bararuzana bakarushyira mu isoko bakarugurisha bakabona amafaranga ahagije akabateza imbere, kuko nabo baba bararuhinze ahantu heza kandi hafite umutekano, bityo bakarusarura nta kibazo bafite.

Abantu bari mu murima uwo murima uteyemo ibigori, uteyemo ibijumba bari kugenda bakura ibijumba bashyira hejuru, kuko ibyo bijumba nibabigurisha bazabona amafaranga ahagije, yo kubateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi,

Umuntu uvuye guhinga atereye isuka ku rutugu, ageze ahantu ari gutambagira ibigori bye, kugira ngo arebe ko byeze azabigurishe abone amafaranga yo kumuteza imbere kuko byeze neza.

Ibigori biri mu murima, ibyo bigori babihinze neza bashiraho n'ifumbire, kugira ngo bazabigurishe babone amafaranga ahagije abateze imbere, kuko na byo ni byiza babifumbiye neza bihagije, bazabigurisha ari byiza.

Izo mboga ni temare uyu mubyeyi avuye kuzisarura mu murima we azijyananye mu isoko kugira ngo abone amafaranga bityo yiteze imbere

Abantu bari mu murima bari gutera imyaka, iyo bamaze guhinga baraza bagashyiramo imbuto, bamara gushyiramo imbuto, bakabitabira bagategereza ko bizera kugira ngo bazabisarure, bibahe umusaruro uhagije.

Amateke ya kinyarwanda bayahinze mu murima, bayashyiramo ifumbire barayatera neza, barayuhira kugira ngo azatange umusaruro. Ayo mateke ni meza, yabonye imvura ihagije kandi azatanga amafaranga.

Umuntu ufite inkoko nyinshi yarazoroye ari kuzigaburira ari kugenda aziha ibyo kurya atoragura n'amagi, izo nkoko zifite umutekano ni nziza kandi ni nyinshi zirakeye, agenda agurisha abona amafaranga yo kumuteza imbere.

Umurima urimo intama , izo ntama ziri kurisha ubwatsi. Ni intama eshatu zifite umutekano. Harimo n'ibiti, harimo n'ubwatsi bwinshi. Izo ntama ziri kurisha neza, nta bantu bari kuzisakuriza kuko zifite umutekano uhagije.

Umuhinzi uri ari mu murima we, ari gusoroma icyayi, araterera mu gisebo ahetse mu mugongo, kuko icyayi iyo ugihinze gitanga amafaranga ukiteza imbere, bityo ukaba utandukanye n'ubukene.

Ibirayi byiza, babisaruye babirunda ahantu hamwe kugira ngo babigurishe babone amafaranga yo kubateza imbere, ibyo birayi barabirobanuye ni byiza, bimeze neza biri mu rugero rumwe, umuntu wabihinze nawe ari gushaka amafaranga kugirango ngo yiteze imbere.

Umurima uteyemo ibigori, uwo murima abantu bari gushyiramo ifumbire muri ibyo bigori, kuko iyo bamaze kubibagara baraza bagashyiramo ifumbire, kugira ngo ibigori bikure neza, bizatange umusaruro uhagije.

Abantu batatu bari mu murima bari guhinga, iyo bamaze guhinga batera imbuto kuko aho bahinze hameze neza, iyo mbuto iyo bamaze kuyihinga aho bateguye, irera kuko iba yarahingiwe neza.

Abantu bari mu murima urimo imyaka, iyo myaka imeze neza, umuyobozi yabasuye ari kubababwira, uko iyo myaka imeze, bawusizemo ifumbire rihagije, nibyera bazagurisha babone amafaranga, yo kubateza imbere.

Umuntu uhinga inyanya uwo muntu ageze mu murima we, aje gusarura izo nyanya kugira ngo abone amafaranga yo kumuteza imbere, kuko izo nyanya harimo izeze, iyo wahinze inyanya izigiye zitukura urazisarura, ukazigurisha ukabona amafaranga ahagije.

Imbata iyo mbata ni nziza iba ahantu heza, bayifashe neza bayishyira mu murima mwiza, kugira ngo yibere ahantu hahataba urusaku kuko iyo yumvise urusaku ibaho nabi.

Isoko batandikamo ibishyimbo batonoye ku ntara, batandikamo ibindi batonoye, na byo byiza, batandikamo ibitunguru, amaronji, imyembe, n'ibindi byinshi.

Amaronje ari mu murima. Ayo maronje areze, bageze igihe cyo kuyasarura kugira ngo bayagurishe babone amafaranga yo kubateza imbere, kuko bayahinze neza akabona ifumbire ihagije, yaratukuye, ni meza.

Umuntu wahinze ibirayi, ibyo birayi ba abagoronome babisuye baje kubitambagira, n'ibirayi byiza bimeze neza, iyo babitambagiye bareberagaho, kugira ngo n'abandi bazahinge ibimeze nk'ibye, uko yabihinze neza, bizamuha amafaranga ahagije.

Umuntu uri mu murima we ari gusarura inyanya, izo nyanya zireze, yazihinze neza ashyiramo ifumbire ihagije, zizamuha umusaruro kuko yarazuhiriye, ni inyanya nziza ziteye neza kandi zimeze neza.

umugore uzanye ifumbire mu murima we uwo murima uhinzemo imyaka myiza iyo amaze gushiramo ako gafumbire uwo murima uragenda iyo myaka irimo ikera harimo imyaka myiza ariko ari gufumbira kugirango bikomeze kwera neza.

Ibi ni ibirayi biri mu murima, uyu muhinzi yarabisaruye, arabizana, abishyira ahantu kugira ngo azabigurishe abonemo amafaranga yo kwiteza imbere, maze agure ibikoresho bitandukanye mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umuntu uri gusarura imyumbati, iyo myumbati imeze neza, yarayihinze ari kuyisarura kugira ngo azabone amafaranga yo kumuteza imbere kuko nawe aba yaravunitse. Ni yo mpamvu imyumbati ari igihingwa gikomeza imbaraga.

Amateke ari mu isoko, ayo amateke barayasaruye, barayoza bayagira neza, bayashyira ahantu heza, kugira ngo abaguzi nibaza bazayagura batange amafaranga, kuko ayo mateke ameze neza ntakibazo afite arakeye.

Abantu baje kureba imyaka ihinze mu murima, bari kumwe n'abayobozi baje kuyitambagira, bari kubagira inama y'uko bazajya bafata ibihingwa bya bo neza, kuko iyo abayobozi baje babagira inama na bo bakarushaho kwiteza imbere, bityo bikagirira igihugu akamaro.

Abayobozi basuye umuhinzi mu murima ahingamo ingano. Izo ngano zireze . Bari kumugira inama y'uko azazisarura, yamara kuzisarura, akazigurisha akabonamo amafaranga yo kumuteza imbere kuko ingano zeze neza.

Amaronje ari mu murima. Ayo maronje araryoha cyane, urayarya ukagira ubuzima bwiza, bityo amaronje ni intungamubiri zihagije, kuko zirwanya indwara, ayo maronje ni meza mu buzima.

Umuhinzi uri mu murima we ari kugenda asarura ingano. Yazihinze neza, zareze kugira ngo azazigurishe abone amafaranga ahagije, amugirire akamaro. Umugabo ari kumwitegereza, ukuntu ari kugenda arasarura izo ngano.

Isoko bacururizamo inanasi，iyo uziguze urazirya， wamara kuzirya zigatuma ugira ubuzima bwiza， kuko inanasi zifite intungamubiri zihagije.

Ibijumba byiza babisaruye babizana mu isoko, kugira ngo babigurishe babone amafaranga yo kubateza imbere, kuko iyo bamaze kubisarura barabigurisha bamara kubigurisha bakabona amafaranga, bityo akabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Igitoke kiri mu murima, icyo gitoke kireze bagikuyeho amakoma. Iyo igitoke ugikuyeho amakoma cyera neza ukagisarura, wamara kugisarura ukagitaramo imineke ukazirya kuko iyo mineke nayo iraryoha.

Ibi ni ibipapayi bya kinyarwanda， urabirya ukumva biraryoshye， bigira intungamubiri zihagije，kandi ibyo bipapayi bigira akamaro mu mubiri， kuko birinda indwara， byubaka umubiri. Izo mbuto z'ibipapayi ziraryoha cyane.

Umurima bahingamo indabyo, izo ndabyo barazigurisha bakabona amafaranga akabateza imbere, kuko indabyo na zo ni igihingwa kigirira abaturage akamaro, iyo ugurishije ubona amafaranga menshi.

Umuntu uri gucuruza ibishyimbo, ibyo bishyimbo bimeze neza, yabishyize ku mifuka yatanditse, uri kuhagera ukagura ukamwishyura amafaranga, wamara kugura ukamuteza imbere kuko nawe yabihinze ashaka kwiteza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umurima uhinzemo imyaka, uwo murima urimo imyaka myiza batangiye kuyisarura, kugira ngo babone amafaranga yo kubateza imbere, kuko iyo myaka ireze neza, iyo imyaka yeze ukayisarura ubona amafaranga yo guteza imbere.

Imifuka irimo ibishyimbo barabisaruye, bamaze kubisarura babishyira mu mifuka, babishyira ahantu, kugira ngo bazabigurishe neza, babonemo amafaranga yo kwiteza imbere, bityo bakemure ibindi bibazo byo mu rugo bafite.

Umurima urimo imyaka basaruye barayanitse, kugira ngo bazayigurishe ibahe amafaranga ahagije, uwo murima barasaruye iyo myaka bayishyira hejuru, barayanitse kugira ngo nibayigurisha baziteze imbere.

Umurima urimo ikawa. Iyo kawa urayihinga ukayifumbira neza, igatanga umusaruro uhagije, kuko iyo washyizeho amafumbire ukayuhira iri mu murima mwiza, ubonamo amafaranga ahagije.

Ubunyobwa buri mu murima ubwo bunyobwa bureze bugize igihe cyo kubusarura iyo wahinze ubunyobwa bukagera igihe cyo kubusarura urabusarura ukabika ukabugurisha ukabona amafaranga ahagije.

Ibigori basaruye barabimanika, barangije kubimanika bategereje ngo byume, bazabihungure babone impungure, bazigurishe babone amafaranga, yo kubateza imbere, kuko iyo wabisaruye ukabi ukabimanika, biguha amafaranga ahagije.

Umurima bateyemo ibishyimbo bahinga bategereza ibishyimbo bikamera iyo birangije kumera barabishingirira bamara kubishingirira bagategereza ko bizera bikazabaha amafaranga ahagije. biracyari bito ntabwo birera neza.

Soya yanitse ku gatara. Kugira ngo yume neza， bazayigurishe babone amafaranga yo kwiteza imbere， kuko soya ni igihingwa kirimo intungamubiri，kiryoshya igikoma， bityo umuhinzi aziteze imbere.

Umurima uhinzemo ibirayi. Ibyo birayi barabiteye barabifumbira, babitera umuti, bimeze neza bifite uruyange rwiza. Umuhinzi najya gusarura, azagurisha abone amafaranga yo kwiteza imbere.

Umurima uteyemo imyaka, iyo myaka iri kumera neza, barayihinze bashyiraho ifumbire ihagije, none iri kumera neza, niyera bazagurisha babone amafaranga abateze imbere, kuko bayifumbiye neza.

Umurima urimo umuntu uri gusarura inanasi, iyo amaze kuzisarura arazigurisha akabona amafaranga yo guteza imbere, kuko inanasi iyo zeze zitanga amafaranga ahagije, bityo bikamugirira akamaro mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umurima urimo ibigori byumye， ibyo bigori ntabwo bari babisarura，nibamara kubisarura，bazabishyira mu kigega bazabihungure，ni bamara kubihungura bazabigurishe， babonemo amafaranga，yo kubateza imbere，kuko ubu ntabwo byari byuma neza.

Ibishyimbo bifite uruyange. Ibyo bishyimbo ni byiza, babiteye neza, barabifumbira. Mu murima mwiza, bifite imiteja n'uruyange, bimeze neza. Umuntu wabihinze ashaka amafaranga. Ni yo mpamvu na we yashyizemo ifumbire ihagije, kugira ngo azagurishe abone amafaranga ahagije.

Abantu bari kugosora ingano bari gushyira mu mifuka. Imifuka iruzuye, bategereje ngo bazagurishe, bamare kugurisha babone amafaranga yo kubateza imbere, kuko ingano zabo zeze neza mu murima mwiza.

Ifumbire bafumbiza imyaka Uyu muntu ari kugurisha abaturage, uje kugura wese akagura umufuka, agenda haza undi agura umufuka agenda. Iyo iyo wayiguguze ugafumbira imyaka yawe yeza imyaka neza.

Imifuka y'umuceri itondetse barayitondeka, bagategereza abaguzi baza kuzigura, izo izo miceri ni myinshi zimeze neza, zeze neza, barazigurisha bakabona amafaranga akabateza imbere, akagirira abantu akamaro bityo kakagirira n'igihugu akamaro.

Umurima urimo ubunyobwa. Ubwo bunyobwa barabuhinze nta bwo bari babusarura. Buri mu murima mwiza urimo ifumbire rihagije. Nibabusarura bazabwanika, babugurishe, babone amafaranga biteze imbere.

Aya ni amasaka yumye, aya masaka barayanitse kugira ngo bazabone imbuto bazahinga ikindi gihe bari guhinga. Amasaka, mu masaka iyo bayahinze biteza imbere, akabagirira akamaro.

Umurima uteyemo amashaza, ayo mashaza ni uruyange iyo amashaza ari meza uwayateye mu murima mwiza ,arera, yamara kwera ukayagurisha ,ukabona amafaranga ahagije ,kuko wayahinze ahantu heza.

Imifuka basaruriyemo ibijumba, bayifunze barayidoda kugira ngo bazayigurishe. Imodoka ize kuyipakira babone amafaranga abateze imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko ni myinshi iyo mifuka izagura amafaranga menshi.

Umurima uteyemo ibishyimbo, ibyo bishyimbo barabihinze ku murongo, bashyiramo ifumbire barabifumbira bimeze neza, iyo bateye ku murongo ibyo bishyimbo bitanga amafaranga, kuko baba babihinze neza bihagije cyane.

Umuntu uragiye inka none igihe cyo gukama kirageze, ari gukama amata, akanyana kari iruhande rw'iyo nka, kugira ngo amata aboneke neza, iyo umuntu ari gukama inka aba ari munsi y'inka, ari gukamira mu cyansi.

Umuntu uri mu murima ari kuragira ihene, intama n'inka. Iyo aziragiye zirahaga zamara guhaga ziri mu murima mwiza yataha akazizirika. Yamara kuzizirika ntizabire kuko ziba zahaze neza.

Ihene nziza umuntu aragiye mu murima. Iyo hene iri kurisha ubwatsi. Ni ihene nziza. Iyo bayizanye mu murima irarisha, yamara kurisha igahaga. Umuntu uyiragiye yabona ihaze akayicyura kuko iba imaze guhaga.

Inka nziza ziri mu murima wazo ziri kurisha ubwatsi. Iyo bazizanye muri uwo murima zirarisha zigahaga, kuko ziri mu bwatsi buhagije, bityo zikabaho neza zikagira ubuzima bwiza, kuko na zo ziri ahantu hafite umutekano uhagije.

Ingurube baragiye ziri mu murima iyo ngurube ni nziza imeze neza, bayikingiye neza iyo ngurube iyo bayiragiye muri uwo murima ibona ubwatsi buhagije, nuko iyo ngurube ikabaho neza mu buzima bwayo bwa buri munsi kuko ifite umutekano uhagije.

Umugore uri guha ihene ze ubwatsi, izo hene ni nziza ziri mu kiraro, bazororera ahantu heza, zifite amazi yo kunwa hariho n'indobo ibamo ubwatsi, iyo uwo mugore azihaye ubwatsi zimera.........

Umuganga uvura inka ari kuvura inka, ari kugenda azitera urushinge, yamara kuzitera urushinge, imwe yahava hakaza iyindi kuko iyo bazikingiye neza bituma zibaho neza, nta kibazo zifite.

Intama iziritse mu murima, ifite n'umurunga mu izosi, iyo bayiziritse mu murima irarisha igahaga, uwayiziritse yaza kuyireba, agasanga yahaze, iyo ntama ni nziza, akayicura akayijyana mu rugo kuko iba yahaze neza.

Ingurube yabyaye utwana twinshi, utwo twana turi konka turi kurwanira ku mabere, iyo kamwe kamaze konka kari kuhava hakaza akandi, utwo tugurube ni twinshi turishimye kuko turi konka ibere rya mama watwo.

Umuganga uri kuvura ingurube, iyo ngurube ni nziza barayoroye bayishyira ahantu mu kiraro, iyo ingurube uyigurishije ubona amafaranga, ayo amafaranga ubonye akaguteza imbere, kuko yavuwe neza ifite n'umuganga uyitaho.

Inka ziri kurisha ziri mu murima mwiza zifite ubwatsi buhagije, nyirazo iyo azigurishije abona amafaranga yo kumuteza imbere kuko yoroye inka nziza, ziri n'ahantu heza zifite isuku izo nka zirakeye.

Inka nziza ziri mu murima zaje kurisha ubwatsi. Izo nka ni ebyiri zimeze neza kandi. Iyo bazizanye zirarisha zigahaga. Zifite n'ibyapa mu matwi zerekana ko ari inka nziza zakingiwe kandi.

Ahantu bacururiza imiti yo kuvura amatungo, aho hantu hari ibyapa biyobora abagenzi, iyo uhageze ureba icyapa kugira ngo ubone uko ugura umuti uwutanditse aho hantu kuko ari ibiro by'imiti.

Mu ishyamba harimo utunyamaswa turi ku giti, utwo tunyamaswa twurira igiti, kuko iyo turi mu biti hejuru nta muntu wadusangamo ngo atwendereze, utwo tunyamaswa ni twiza dukunda kwibera mu biti.

Ishyamba ririmo inyamaswa. Izo nyamaswa zibera mu biti byinshi. Zifite umutekano kuko ibyo biti birazirinze. Nta baturage bazigeraho .Kuko nta muntu wagera muri iryo shamba ,wagezemo zakurya izo nyamaswa.

Akanyoni kibera mu giti kari kwabira, ako kanyoni ni keza, iyo kari mu giti nta muntu ushobora gukendereza, kibera ahantu hafite umutekano uhagije, ako kanyoni ni keza, gasa neza kandi gakunda utundi tuyoni.

Imbata izo mbata ziri ahantu heza umuntu wazoroye arazigurisha akabona amafaranga ahagije, yazisize mu murima we kugira ngo zibeho neza, ni ahantu hataba urusaku kandi hameze neza.

Akanyoni keza kibera hejuru y'amazi ako kanyoni gakunda ahantu heza hatuje kuko iyo kageze ahantu habi barakendereza bakagatera amabuye ni yo mpamvu aka kanyoni kibereye hano hejuru.

Akanyoni kaba mu biti hejuru, ako kanyoni kibera iyo hejuru, ntabwo gakunda urusaku, iyo kageze hasi, izindi nyoni ziragasakuriza kandi ko kadakunda urusaku. Kameze neza, gasa neza, iyo baje ra, ntabwo gakunda urusaku.

Ishyamba ririmo inyoni， ziri mu giti zimeze neza， ziratekanye. Izo nyoni ni nziza zimeze neza， nta bantu baziyombera， zifite umutekano uhagije， ziberaho neza kuko zibera mu biti byo mu ishyamba.

Ingagi iri mu ishyamba, ihetse umwana wayo, kuko iyo ingagi ihetse umwana wayo nta n'umuntu ushobora kuyikoraho, ingagi n'inyamaswa zikunda abana bazo kandi ziba ahantu hatuje hafite umutekano.

Iyi nyoni yibera ahantu honyine, kuko inyoni ntabwo zikunda urusaku, iyo zumvise abantu zirarwara, ni yo mpamvu iyi nyoni iri yonyine ikunda umutuzo ntabwo ikunda ahantu hari abantu benshi.

Umutubu uri ku kazuba utegereje kota akazuba, kuko imitubu ikunda akazuba uwo mutubu umeze neza, ukunda ahantu hafite umutekano kugira ngo ubone uko wota akazuba.

Umusambi uri mu murima, uwo musambi ufite umutekano kuko wibera ahantu habugenewe, nta bantu bahegereye ngo bawusakurize, wibera hejuru y'amazi, uwo musambi umeze neza urakeye.

Ingagi ebyiri ziri mu ishyamba. Izo ngagi ni umwana na nyina, ingagi y'umubyeyi iri gukora ku mwana wayo kuko ingagi zikunda abana bayo cyane.

Aka kanyoni kaba mu giti, iyo kari mu giti, kaba gategereje ko kabona utundi tuyoni, aka kanyoni ni keza, kameze neza, karashimishije, ntabwo gakunda urusaku, ni yo mpamvu kibera mu giti hejuru.

Inyoni iri mu giti iyo nyoni imeze neza yibera mu giti hejuru ntabwo ikunda urusaku. Kuko n'akanyoni keza kameze nezalq iyo ugasakurije ntabwo kabyishimira, kibera ahantu hatuje hafite umutekano ni keza cyane.

Ishyamba ryiza rimeze neza ririmo inyamaswa zo mu gasozi. Izo nyamaswa zibera mu ishyamba, ziba zimeze neza zifite umutekano uhagije, kuko nta bantu bazendereza. Ni ishyamba ryiza riri ahantu hatuje.

aka kanyoni kibera mu byatsi ako kanyoni ntabwo gakunda urusaku iyo kari mu byatsi kaba gategereje ko kabona umutekano ako kanyoni gasa neza kandi kibera ahantu heza.

Umurima urimo umusambi, uwo musambi umeze neza urakeye uri mu murima mwiza, hariho n'amagi wateye, uwo musambi urishimye, iyo umusambi uri mu murima ntabwo ukunda urusaku ko abantu bawuyombera, kuko ukunda ahantu hafite umutekano hatuje.

Umusambi uri ahantu heza, hafite umutuzo, uwo musambi ntabwo ukunda kuba ahantu hari abantu, wibereye mu murima, iyo uri ahantu hari abantu, barawusakuriza, bamara kuwusakuriza ntugire ubuzima bwiza.